Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, bicaye neza ku ntebe zabo, umuhungu yicaranye n'umukobwa aho bari kwiga isomo ryimibare, muri iryo shuri harimo udushushanyo dufite amabara atandukanye tumanitse ku nkuta.

Umwana ukiri muto w'umuhungu, afite imbere ye ibikinisho bikoze mu mashusho y'inyamaswa zo mu gasozi, urugero agasumbashyamba, inzovu, intare, imparage ndetse n'izindi zirimo n'ingona.

Icyumba cyiza cyane, cyuzuyemo udukoresho tw'amabara atandukanye, ay'icyatsi kibisi, umuhondo, ubururu ndetse n'ayandi. Ibi ni bimwe mu bifasha abarimu iyo bari kwigisha abanyeshuri bo mu mashuri y'inshuke.

udukinisho turimo utumeze nk'amagare, utumeze nk'imodoka, ndetse n'udupupe dufite amabara y'umweru n'ubururu. Ibi ni bimwe mu bikoreshwa n'abarimu iyo bari kwigisha abanyeshuri babo cyane cyane abiga mu mashuri abanza ndetse n'inshuke.

Urukuta rw'ishuri ry'inshuke ryigirwamo n'abanyeshuri bakiri bato, hashushanyijeho inyamaswa yo mu ishyamba ndende cyane, izwi ku izina ry'agasumbashyamba. Ibi ni bimwe mu bituma abanyeshuri bamenya amazina y'ibintu bitandukanye birimo n'inyamaswa.

Urukuta rw'ikigo cy'ishuri, cyigwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, rushushanyijeho igishushanyo cy'isaha. Ibi ni bimwe mu bifasha abanyeshuri mu kumenya imibare.

Umuhanda w'igitaka urimo umunyeshuri wiga mu mashuri y'incuke, uyu muhanda ukikijwe n'indabo zifite amabara atandukanye zituma uba mwiza, ndetse ukanagira isuku.

Agakapu gafite amabara meza ashimisha abana ndetse kariho n'udupupe dufite amabara y'umweru ndetse n'umukara, ibi ni bimwe mu bikoresho byifashishwa mu kwigisha abana bato.

Umwarimu wigisha mu mashuri y'inshuke, wambaye imyambaro ifite amabara y'umutuku, ari imbere y'ishuri aho ari kumwe n'umunyeshuri w'umukobwa ukiri muto, akaba ari kumucunda mu rwicundo ruri imbere y'ishuri.

Itsinda rigari ry'abayobozi n'abashinzwe umutekano bari mu cyumba cyo ku ishuri rifite amabara y'umuhondo ndetse n'ikibaho cy'umukara, aba bari kujya inama mu bigendanye n'imyigire y'abana bakiri bato.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, bari gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga urugero twavugamo nka telefoni, mudasobwa ndetse n'ibindi. Aba bari kubikoresha bishimisha banasubiramo amasomo yabo.

Inyubako y'ikigo cy'ishuri cyubakishije amatafari ahiye ndetse n'isima, gisakaje amabati y'ubururu, imbere yaho kandi hari ikibuga cy'umupira w'amaguru gifite izamu risize amarangi atukura.

Ahari umugezi munini utemba werekeza mu kiyaga, hari umugore wambaye neza. lkanzu y'ubururu, n'undi wambaye ikanzu y'umweru, aba bombi bari iruhande rw'icyo kiyaga, gikikijwe n'indabo nziza.

Inyubako z'ikigo cy'ishuri ribanza, zishushanyijeho ibikoresho ndetse n'amazina y'inyamaswa zitandukanye. Ibi bifasha abanyeshuri kugira ngo bamenye ubwenge. Imbere y'izo nyubako kandi hari ikibuga kinini, kirimo ubwatsi butoshye, aho abanyeshuri bidagadurira.

Agakapu gafite amabara meza gashushanyijeho utunyamaswa tw'utunyugunyugu dufite amabara y'umukara n'umutuku, iki ni kimwe mu bikoresho abanyeshuri bajyana kwiga, bakakibikamo amakaye yabo cyane cyane abiga mu mashuri akiri mato.

Igishushanyo cyerekana umwana w'umukobwa wambaye ikanzu iriho akabara gatukura, uyu ari kugerageza kumurika akoresheje umuriro na wo uziritse ku giti.

Udukoresho n'udukinisho dufite amabara atandukanye, turimo utwo badunda n'imigozi yo gusimbuka, ibi byose n' nibyo abanyeshuri bakoresha iyo bari kwidagadura.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bambaye imyambaro ifite amabara atandukanye, bari imbere y'abandi banyeshuri, aho bari kwitoza kwandika, bakoresheje ingwa, bandika ku kibaho gifite ibara ry'umukara.

Udushushanyo ndetse n'udukinisho dufite amabara atandukanye turiho imibare, inyuguti ndetse n'inyajwi. Ibi byose ni bimwe mu bikoreshwa n'abarimu iyo bari kwigisha abana biga mu mashuri akiri mato.

Imyambaro cyangwa se ibikoresho bikoreshwa mu kazi, umuntu ashobora kuba yahuriramo n'impanuka, urugero twavuga ubuhinzi, kuvura amatungo cyangwa se igihe umuntu ari gukora akazi gatuma agira aho ahurira n'amashanyarazi. Ibi bikoresho birimo inkweto ndende za bote, uturindantoki ndetse n'udupfukamunwa.

Agakoresho gakoreshwa mu kwiga no kwigisha imibare, gafite amaguru asongoye akoze mu byuma ndetse n'aho gufata horohereye, aka gakoreshwa mu gushushanya uruziga.

Imbere y'inyubako z'amashuri ya kaminuza yubakishije amatafari, hari akayira karekare kanyurwamo n'abanyamaguru, hari kandi n'indabo zifite amabara y'umuhondo n'icyatsi kibisi.

Umubyeyi w'umugore, wambaye imyambaro ifite amabara y'umweru, umuhondo, n'ubururu. Yicaranye n'abana be, ku dutebe dukoze mu mbaho, uyu ari kubagaburira indyo yuzuye ,kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Mu cyumba cy'ishuri gisize amarangi y'umuhondo ndetse gifite ikibaho cy'umukara, harimo abanyeshuri bambaye impuzankano zisa, aba bari mu kizamini aho bari guhabwa impapuro z'ibizamini n'umwarimu wabo.

Ibyumba by'amashuri byubakishije amatafari bisize amarangi y'umuhondo n'icyatsi kibisi, imbere yabyo hari ibyatsi byiza ndetse kandi ari n'idarapo ryubahiriza igihugu rifite amabara y'umuhondo, icyatsi kibisi, ndetse n'ubururu.

Inziga ebyiri zizengurutse zifitemo inyuguti ebyiri zibanza, izo nziga zisize amabara atandukanye arimo ubururu, zikaba zikoreshwa mu kwigisha imibare mu mashuri abanza n'ayisumbuye.

Icyumba kisanzuye gifite amabara y'umweru ndetse n'ikibaho cy'umukara gikoreshwa n'abarimu iyo bari kwigisha, muri iki cyumba kandi harimo ibyuma by'ikoranabuhanga bizwi ku izina rya mudasobwa.

Ibikoresho birimo amakaramu yo kwandikisha, ayo gushushanyisha ndetse n'imikasi yo gukata impapuro. lbi byose ni bimwe mu bikoreshwa mu kwigisha abana bakiri bato ,cyane cyane abiga mu mashuri y'inshuke.

Icyumba cyabagenewe gifite amabara atandukanye ndetse n'udukinisho twiza dushushanyijeho inyuguti, inyajwi ndetse n'imibare, ibi ni bimwe mu bituma uburezi bw'abanyeshuri bakiri bato cyane cyane amashuri y'inshuke butera imbere.

Ishuri ririmo amabara atandukanye, arimo umuhondo, ubururu, umutuku ndetse n'icyatsi kibisi, muri iri shuri harimo igishushanyo cy'igiti, gifite amashami maremare ndetse n'ibibabi by'icyatsi kibisi, abarimu bakoresha iyo bari kwigisha abanyeshuri babo.

Ababyeyi b'abagabo bari imbere y'inyubako, ikorerwamo ibijyanye n'uburezi bw'abanyeshuri biga mu mashuri abanza ,aba bari kwita kuri iyo nyubako ,ndetse imbere yayo hari igishushanyo mbonera kigenderwaho ,mu rwego rwo kugira ngo iyo nyubako irangire yubatse neza.

Ikibuga kinini cyubatswe mu buryo bugezweho ahantu hitegeye umusozi, iki kibuga gikinirwaho n'abanyeshuri umukino w'amaboko, igihe bari mu gihe cyo kwidagadura no gukina.

Ibikoresho ndetse n'ibikinisho bikoreshwa mu kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, urugero twavugamo nk'umukasi ukoreshwa mu gukata impapuro, ibitabo, ndetse n'amakaye yo kwandikamo.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bambaye imyambaro ifite amabara y'umweru n'ubururu, bicaye ku ntebe ifite ishusho y'umuzenguruko aba bari kuganira ku byo bize banungurana ibitekerezo ku masomo yabo.

Ibikoresho bikoreshwa mu kwiga imibare urugero twavugamo nk'ibipima uburebure, ibishushanya imirongo yihese, ndetse n'ibisiba ibyandikishijwe amakaramu akoreshwa mu gushushanya.

nziza z'ikigo cy'amashuri yisumbuye, zubakishije amatafari ahiye. Ndetse zisakajwe amabati y'ubururu, imbere y'izi nyubako hari idarapo ry'ubahiriza igihugu, ndetse n'ibyatsi bitoshye.

Ibikoresho bikoreshwa mu kwigisha imibare cyane cyane mu mashuri abanza, birimo ibipima uburebure, ibishushanya imirongo itandukanye ndetse n'ibica uruziga bifite amaguru asongoye.

Inyubako nziza cyane ,yubakishije amatafari ahiye ndetse ifite inzugi zifite amabara y'icyatsi kibisi. Iyi nyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye. Ibi ni bimwe mu biteza imbere uburezi.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, bicaye ku ntebe zabo umuhungu yicaranye n'umukobwa, aba bari mu cyumba k'ishuri ryabo aho bakurikiranye umwarimu uri imbere yabo, mu ishuri kandi hamanitsemo udutako tw'amabara atandukanye.

Inteko y'abahinzi bafite ibikoresho bikoreshwa mu guhinga imirima, bizwi ku izina ry'amasuka bicaye munsi y'igiti aho bari kujya inama bayobowe n'umugore uri imbere y'abo, wambaye inkweto z'akazi zizwi ku izina rya bote.

Udukoresho n'udukinisho turiho utwanditseho inyuguti, inyajwi ndetse n'imibare, hariho kandi n'igishushanyo cy'isaha, ibi ni bimwe mu byo abarimu bakoresha, iyo bari kwigisha abanyeshuri babo kugira ngo ibyo babigisha babifate.

Udukinisho n'udukoresho dufite amabara atandukanye arimo umutuku, ubururu n'umuhondo ndetse ashushanyijeho inyuguti n'inyajwi, ibi ni bimwe mu byo abarimu bakoresha iyo bari kwigisha abanyeshuri bo mu mashuri y'inshuke.

Abanyeshuri barimo abahungu n'abakobwa, bicaye mu cyumba cy'ishuri rinini, rifite idirishya risize amarangi y'icyatsi kibisi, aba bari gufata amafunguro ndetse muri bo harimo umunyeshuri umwe ufite ubumuga, agenda akoresheje imbago.

Inyubako nziza ifite amadirishya manini yubakishije amatafari ahiye ndetse isakaje amabati y'ubururu, iyi nyubako ifite ikigega kinini cy'umukara gifata amazi y'imvura iyo iri kugwa maze akazakoreshwa mu gihe kizaza.

Ibikinisho ndetse n'ibikoresho, birimo ibindi bikoreshwa mu kwigisha ndetse no kwiga imibare, urugero twavugamo nk'ibifasha gupima uburebure, gupima ubugari, gupima umubyimba ndetse no gushushanya inziga.

Udukoresho ndetse n'udukinisho, turimo ibitabo, umubumbe w'Isi, ibikapu byo gutwaramo amakaye n'amakaramu ndetse n'ibindi, byose ni bimwe mu byifashishwa mu kwigisha abanyeshuri bakiri bato.

lnzu yubatse neza yubakishije amatafari ndetse mu buryo bugerekeranyije, ifite amabara atandukanye. Iyi nzu ikorerwamo ibijyanye n'uburezi bw'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, imbere yayo kandi hari igiti kinini ,gikoreshwa mu gutwara umuriro w'amashanyarazi.

Inyubako y'ikigo cy'ishuri zubakishije amatafari ahiye ndetse n'isima, izi nyubako zifite amadirishya afite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse imbere yazo hari ikibuga kinini abanyeshuri bidagaduriramo, hakaba n'igiti cy'inganzamarumbo bicaramo bari kuganira ibyo bize.

Ibikoresho bikoreshwa mu bwubatsi ndetse no mu bubaji. Urugero twavugamo nk'urukero, umukasi, ishoka, inyundo, metero yo gupima ndetse n'utwuma dufungura imisumari, yaba iyo ku binyabiziga ndetse n'ikoreshwa mu bubaji.

Umusaza usheshe akanguhe, ari munsi y'igiti iruhande rw'inzu ye ari kumwe n'abuzukuru be abacira imigani, yicaye kandi ku gatebe gakoze mu mbaho na zo zikozwe mu biti.

Abarimu ndetse n'abanyeshuri, bari imbere y'inyubako yubakishije amatafari ifite amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, muri iyi nyubako harimo abanyeshuri bicaye neza, bari gukurikirana amasomo yabo bahabwa n'abarimu.

Udukoresho turimo amakaramu yo kwandikisha ndetse n'ayo gushushanyisha, afite amabara atandukanye, arimo ubururu n'umuhondo, hari kandi n'agakoresho gakata impapuro ndetse n'ikayi yo kwandikamo.

Ibishushanyo byerekana ababyeyi, barimo umugabo n'umugore bicaye munsi y'igiti, bari kumwe n'uruhinja rwabo ndetse na none hakaba hari n'ahandi bari kumwe n'uwo mwana wabo, yasoje amashuri ya kaminuza.

lbikinisho ndetse n'ibikoresho bifite amabara y'icyatsi kibisi, umuhondo ,ndetse n'umutuku. lbi bikoreshwa mu kwigisha abanyeshuri bagifite imyaka mito cyane, urugero nk'abiga mu marerero, ndetse no mu mashuri y'inshuke.

Udukoresho tw'ibyuma, dufite amabara y'umweru n'ubururu turimo utundi, dukoreshwa mu kwigisha imibare mu mashuri abanza n'ay'inshuke. Utu turimo uduca imirongo itambika, ihagaze ndetse n'iyihese.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye imyambaro y'ikigo ifite ibara ry'umweru n'ikigina, bari imbere y'amarembo y'ikigo akozwe mu mabati, aba bari kumwe n'umurezi wabo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye imyambaro ifite amabara y'umweru ndetse n'icyatsi kibisi, bicaye neza ku ntebe zikozwe mu biti, aho bari gukora ikizamini cyabo bakoresheje amakaye ndetse n'amakaramu.

Inzu nziza yubatswe mu buryo bugerakeranyije ifite amabara y'ubururu n'umuhondo, iyi nzu yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, imbere yaho kandi hari umwarimu wambaye imyambaro y'amabara y'umweru n'umukara.

Imbaga nyamwinshi y'abanyeshuri, bambaye impuzankano zifite amabababa y'icyatsi kibisi n'umweru biga mu mashuri, yisumbuye bicaye munsi y'ibiti by'inganzamarumbo, aho bakurikiranye inama bari guhabwa n'abarezi babo.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, ifite amabati y'ubururu ndetse namadirishya y'ubururu, iyi nzu yigirwamo n'abanyeshuri, biga mu mashuri yisumbuye, imbere yayo hari igiti cya gereveriya abanyeshuri bicaramo mugihe cyo gukina.

Itsinda ry'abagenzuzi b'abakozi, bambaye amajire abaranga yuko bari mu kazi, aba bari imbere y'inyubako y'ikigo cy'amashuri yubatswe neza, yubakishije amatafari ahiye ndetse inasize amabara atandukanye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano zifite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, bicaye munsi y'ibiti by'inganzamarumbo, ndetse bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho aba bari gukurikirana abari imbere yabo babagezaho impanuro ndetse n'ibiganiro.

Itsinda rinini cyane ry'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bambaye impuzankano zifite amabara yicyatsi kibisi ndetse n'umukara, aba bateraniye hamwe munsi y'igiti ahantu hari ibyatsi bitoshye, aho bakurikiye inama bari guhabwa n'abarimu babo.

Mu cyumba cy'ishuri, gikorerwamo ibizamini, harimo umwarimu w'umugabo ndetse n'uw'umugore, bari guha abanyeshuri amakaye yo gukoreramo ibizamini. Muri icyo cyumba kandi hari ibibaho bibiri bifite amabara y'umweru, bikoreshwa n'abarimu iyo bari kwigisha.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano zifite amabara y'ubururu n'umweru, bicaye neza mu ntebe, ziri ahantu hisanzuye basengera.

Itsinda ryabanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano zifite amabara y'ubururu bwijimye ndetse nicyatsi kibisi, bicaye munsi y'igiti kinini k'inganzamarumbo bahabwa impanuro n'abarimu babo.

Imbaga nyamwinshi y'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye barimo abahungu n'abakobwa bicaye mu byatsi bitoshye munsi y'ibiti aho bari kugirana inama n'abarimu babo babigisha.

Mu kibuga gikinirwamo umukino w'umupira w'intoki, harimo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, barimo abahungu ndetse n'abakobwa, aba bahateraniye aho bari guhabwa impanuro n'abarimu babo.

Urwinjiriro rw'ikigo cy'amashuri rusize amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'umweru, rukikijwe urukuta rwubakishije amatafari ahiye, imbere muri icyo kigo harimo ibiti birebire, abanyeshuri babyicara munsi iyo bari kuganira.

Itsinda ry'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye barimo abahungu ndetse n'abakobwa, bambaye impuzankano zifite ibara ry'ubururu bwijimye ndetse n'umweru, hagati yabo kandi hari umurezi wabo uri kuvuga akoresheje indangururamajwi.

Itsinda ry'abanyeshuri biga mu mumashuri yisumbuye, bambaye impuzano zifite amabara y'umweru ndetse nayijimye, abandi bambaye izisa bari munsi y'ibiti b'inganzamarumbo bitanga agacucu n'umuyaga.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankano zifite ibara ry'umweru, bicaye neza mu ntebe zisize amabara y'icyatsi kibisi, aba bakurikiranye umuntu uri imbere yabo, ari kubagezaho ibiganiro mu mahugurwa bitabiriye.

Itsinda ry'abanyeshuri bari ku murongo biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano zifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu. Aba bari gukurikirana ibiganiro umuntu uri imbere yabo ari kubagezaho, aho bahagaze mu byatsi biri imbere y'amashuri yabo.

Itsinda rigari ry'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bicaye ahantu mu byatsi bitoshye bikikijwe n'ibiti birebire, bari kumwe n'abarimu babo, aho bari kwerekana impamyabushobozi bahawe.

Abanyeshuri biga mu ishuri ribanza, bambaye imyambaro y'ishuri ifite amabara y'ubururu bweruye ndetse na kaki, aba bamaze kwinjira mu kigo banyuze mu marembo, hakaba hakurikiyeho gukaraba intoki n'amazi meza isabune.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankano zifite amabara y'ubururu bwijimye ndetse bateraniye hamwe aho bagiye gusura ikigo gitanga ibijyanye n'amafaranga bari kumwe kandi n'umurezi wabo.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye ifite n'amabara atandukanye, iyi nyubako ikorerwamo ibijyanye no kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, imbere yaho kandi hari n'urwicundo rukoze mu byuma.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano zifite amabara y'umweru n'kigina, bari gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, ibi ni mu rwego rwo kugira ngo batandura cyangwa bakanduzanya indwara ziterwa n'umwanda.

Umwarimu wigisha mu mashuri yisumbuye, wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru, yicaye neza ku gatebe yishingikirije ameza. Uyu ari mu nzu nini yabugenewe ibikwamo ibitabo bikoreshwa n'abanyeshuri ndetse n'abarimu.

Itsinda rigari ry'abakozi, bamwe muri bo bambaye amajire y'akazi n'abandi bambaye ingofero zibarinda mu gihe cy'impanuka. Hirya yabo kandi hari ikinyabiziga gifite amapine ane, kizwi ku izina ry'imodoka, gitwara abantu n'ibintu.

Abanyeshuri biga mu mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano zifite ibara ry'ubururu ndetse n'ikigina, aba bakurikiye umugabo ukora mu muryango utabara imbabare.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano zifite amabara y'umweru n'ikigina, aba bateraniye mu cyumba kinini cyane kiberamo inama, aho bari kuganira n'abarezi babo.

Itsinda rigari rybakozi bambaye imyambaro y'akazi ifite amabara y'icyatsi kibisi ndetse ningofero zibarinda mu gihe cyimpanuka bari mucyumba cyabugenewe cyo ku ishuri aho bari gukora ubugenzuzi ku bijyandanye n'imikorere y'amashuri.

Mu cyumba cyabugenewe gifite amabara atandukanye arimo umweru ndetse cyubakishije amatafari ahiye, kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, aha kandi harimo abarezi bambaye amataburiya y'umweru.

Ububiko bw'ibitabo bwo ku ishuri ryisumbuye, muri ubu bubiko dusangamo ibitabo by'ubwoko bwose, bikoreshwa n'abarimu, iyo bari gutegura amasomo yabo ndetse n'abanyeshuri iyo bari gukora ubushakashatsi.

Abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri ifite amabara y'ubururu bweruye ndetse n'umukara wijimye, bicaye mu bwatsi bwagenewe kwicarwamo n'abanyeshuri iyo baganira cyangwa se bafite ibindi bari gukora, mu mpande z'aho hari ikibuga cyagenewe gukinirwamo umukino w'intoki.

Abanyeshuri biga mumashuri yisumbuye, bambaye impuzankano zifite amabara y'ubururu bweruye ndetse n'ubururu bw'umukara, bari mumuhanda w'igitaka, ukikijwe n'ibiti birebire by'inganzamarumbo.

Inyubako y'ikigo cy'ishuri yubakishije amatafari ndetse ifite amabara u'bururu, iyi nyubako ikorerwamo ibijyanye no gufasha abana b'abakobwa iyo bagize ikibazo cy'ubuzima bari ku ishuri.

Imbere y'inyubako y'ikigo cy'ishuri, yubakishije amatafari ahiye, ifite amadirishya y'ubururu hateraniye itsinda rigari ry'abakozi, bari kwiga ku mushinga w'ubwubatsi uzakorerwa muri icyo kigo.

Umwarimu w'umugabo, wambaye imyambaro ifite amabara y'umweru, ari mu cyumba cy'ishuri aho ari gufasha abanyeshuri gukora umwitozo yabahaye, abereka urugero mu ikayi yabo y'imyitozo.

Mu cyumba cy'ishuri gifite amabara y'umuhondo n'ubururu hateraniye imbaga nyamwinshi y'abarimu, muri iki cyumba kandi harimo igikoresho gifite ibara ritukura gikoreshwa mu kuzimya umuriro kizwi nka kizimyamwoto.

Ikinyabiziga gitwara abantu n'ibintu kizwi ku izina ry'imodoka, gihetse abanyeshuri b'abahungu biga mu mashuri yisumbuye. Iki kinyabiziga kikaba kibajyanye ngo kibageze mu ngo zabo.

Umunyeshuri ukiri muto, wiga mu mashuri yisumbuye yambaye impuzankano zifite ibara ry'ubururu bweruye n'umukara, yicaye mu ntebe aho ari gukoresha igikoresho cy'ikoranabuhanga, kizwi ku izina rya mudasobwa.

Mu cyumba kigari gikorerwamo n'abatetsi batekera abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, harimo ibisafuriya binini bitekerwamo, bifite kandi imifuniko ifite umurambararo munini ubitwikira neza.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano zifite amabara y'ubururu bweruye n'ubwijimye, bateraniye ku kibuga gikinirwamo umukino w'intoki, aba bakurikiye imbwirwaruhame bari guhabwa n'umuyobozi wabo.

Umubyeyi w'umugore ukora mu bijyanye n'uburezi, ari gushyikiriza impano umunyeshuri wahize abandi mu bizamini by'amashuri yisumbuye, uyu yambaye impuzankano zifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'ikigina aho ari kumwe n'ababyeyi be.

Imbere y'ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye, gifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, hari itsinda ry'abanyeshuri bambaye impuzankano zifite ibara ry'ubururu bweruye ndetse n'ubururu bwijimye, aba barikumwe n'abarezi babo aho bicaye mu byatsi bitoshye biri imbere y'ishuri.

Mu cyumba cy'amashuri ya kaminuza, harimo abanyeshuri biganjemo abahungu ndetse n'abakobwa, bicaye ku ntebe zifite amabara y'icyatsi kibisi, aho bari kuganira ku bigendanye n'amasomo yabo.

Umunyeshuri wiga amashuri ya kaminuza yambaye ikoti ndetse n'agapfukamunwa, ibikoresho byiza birimo intebe zo mu ishuri, aho ari gukoresha igikoresho cy'ikoranabuhanga kizwi nka mudasobwa.

Imbere y'urugi rw'ikigo cya kaminuza rusize ibara ry'icyatsi kibisi, hari indobo itukura ikoreshwa mu gukora amasuku, hari kandi n'intebe nziza yicarwaho n'banyeshuri iyo bari gusubira mu masomo.

Abanyeshuri basoje amasomo yabo mu byiciro bitandukanye bya kaminuza, bambaye amakanzu, yerekana ko basoje amashuri. Aba bari mu byishimo, bajugunya ingofero zabo mu kirere mu rwego rwo kwishimisha.

Kimwe mu bishushanyo biri ku rukuta rw'ishuri rya kaminuza, rufite amabara y'umweru ibi birerekana zimwe mu mbuto zirimo inanasi, avoka, ndetse n'imineke.

Itsinda ry'abanyeshuri bambaye imyambaro ifite amabara y'icyatsi kibisi isa ndetse n'umweru, aba bari gukurikirana amahugurwa, bafite kandi ibyuma by'ikoranabuhanga bizwi ku izina rya mudasobwa.

Mu kigo kinini cyane kirimo imbuga ishashemo amatafari, harimo ikinyabiziga kinini kizwi ku izina ry'imodoka gitwara abantu n'ibintu, hari kandi n'ibiti birebire by'inganzamarumbo bifite indabo z'umuhondo.

Umubyeyi w'umugore ari mu cyumba cyabugenewe cya kaminuza kiberamo ubushakashatsi, uyu yambaye imyambaro ifite amabara y'ubururu bwijimye ndetse n'agatambaro mu mutwe.

Ishuri rya kaminuza risize amabara y'icyatsi kibisi, imbere y'irishuri tuhasanga intebe abanyeshuri bakoresha bari gusubiramo amasomo yabo cyangwa se bari kuganira zifite amabara y'umutuku ndetse n'ubururu.

Mu ishuri rya kaminuza harimo abanyeshuri bari gufata amasomo yabo, harimo kandi umwe muri bo ufite ikayi imbere ye, irambitse ku meza akoze neza mu rubaho rusennye.

Mu cyumba cy'ishuri rya kaminuza rifite amabara y'umuhondo harimo ikibaho gifite amabara y'umweru, hari kandi n'intebe nyinshi cyane abanyeshuri bicaraho iyo bari gukurikira amasomo yabo cyangwa bari kuyasubiramo.

Igishushanyo cyakozwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza ishami ry'ubugeni, cyerekana umuhanda ukozwe mu bitaka, ukikijwe n'ibyatsi bitoshye ndetse hari n'inzu yo guturwamo n'abantu.

Abanyeshuri ba kaminuza, bari gusohoka mu kigo, banyuze mu muryango nyuma yo gufata amasomo yabo. Hari kandi n'ibiti birebire by'inganzamarumbo, bizwi ku izina rya Gereveriya bikorwamo imbaho.

Abanyeshuri biga muri kaminuza mu mashami atandukanye, bari gusohoka mu kigo nyuma yo guhabwa ubumenyi, hari kandi n'indabo zifite amabara atandukanye n'ibiti birebire byagereveriya bikorwamo imbaho.

Ahakikijwe n'indabo z'umuhondo n'icyatsi kibisi harimo ubwatsi butoshye, muri ubu bwatsi harimo ibintu birebire biterekwaho ibigega by'amazi y'imvura akazakoreshwa mu gihe akenewe.

lndabo nziza ziconze neza, zifite amabara y'umuhondo n'icyatsi kibisi, zikikije ahari ubusitani buri mu kigo cy'amashuri. Hari kandi n'ikigega kinini cyane gifata amazi, akazakoreshwa mu gihe akenewe.

Umuryango w'icyumba cya kaminuza, kigirwamo n'abanyeshuri iyo bari gusubiramo amasomo yabo cyangwa se bari kuyahabwa na mwarimu, hejuru y'urugi rw'iki cyumba hariho nimero zacyo kugira ngo abanyeshuri batazajya bayoba.

lnzu ikorerwamo uburezi bw'abanyeshuri ba kaminuza isize amabara y'umweru, imbere y'iyi nzu hari ubusitani burimo ubwatsi butoshye, ndetse n'indabo zifite amabara y'umuhondo, n'icyatsi kibisi. Aha naho abanyeshuri bicara bari kuruhuka.

Inyubako ya kaminuza ifite amabara y'umweru, yubatswe mu buryo bugerekeranyije ndetse ikorerwamo n'abanyeshuri iyo bari kwiga amasomo yabo cyangwa se bari kuyasubiramo, imbere yayo kandi hari ubusitani bwiza cyane burimo ibiti bitoshye n'ibyatsi.

Ku rukuta rw'ishuri rya kaminuza, hariho igishushanyo cyashushanyijwe n'abanyeshuri biga ubugeni. Iki kirerekana umugore ufite agakapu ko mu ntoki ndetse n'igikombe, ari kunywa amazi.

Ahantu hagenewe guparikwa ibinyabiziga, byaba ibigendesha amapine abiri cyangwa se ane, urugero nk'imodoka n'amapikipiki. Ibi bituma ibyo binyabiziga biticwa n'izuba kuko aho hantu hasakaye.

Abanyeshuri b'abakobwa biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano zifite amabara y'ubururu bweruye ndetse n'ubwijimye, bicaye imbere y'amashuri yabo aho bari gukoresha igikoresho cy'ikoranabuhanga.

Ni umuhanda wa kaburimbo ufite amabara y'umukara ndetse n'imirongo y'umuhondo, harimo ibinyabiziga bibiri kimwe cy'ipikipiki kiriho umugabo n'umugore bambaye ingofero zibarinda mu gihe cy'impanuka. N'ikindi cy'imodoka gifite amabara y'umweru.

Abanyeshuri ba kaminuza, bari mu cyumba cy'ishuri rifite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, aba bakurikiye umwarimu wabo uri imbere yabo ari kubasobanurira, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ameza akoze mu mbaho, bafite n'amakayi n'amakaramu imbere yabo.

Mu kibuga cy'umupira w'amaguru, gifite ubwatsi butoshye bw'icyatsi kibisi ndetse n'imirongo y'umweru, harimo abanyeshuri benshi basoje amashuri yabo ya kaminuza, mu byiciro bitandukanye bari kwishimira ko bahawe impamyabushobozi.

Icyumba cya kaminuza gifite inzugi n'amadirishya bifite ibara ry'icyatsi kibisi. Muri iki cyumba dusangamo intebe nziza zifite amabara y'ubururu abanyeshuri bakoresha. Harimo kandi n'ikibaho kinini gifite ibara ry'umweru abanyeshuri ndetse n'abarimu bakoresha iyo ari mu gihe cyo kwiga.

Imbaga nyamwinshi y'abantu isoje amasomo yayo muri kaminuza yicaye ahantu hateganyijwe munsi y'itente, aba bambaye amakanzu azwiho kwambarwa n'abantu bashoje amashuri yabo ndetse n'ingofero.

Mu cyumba gikorerwamo ubushakashatsi, harimo abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuvuzi, aba barimo umukobwa uri gukora ubushakashatsi, akoresheje icyuma kibona ibitaboneshwa amaso y'abantu.

Umunyeshuri w'umusore wiga muri kaminuza ari kumanuka neza ava ku nyubako yo hejuru amanuka ku yo hasi, iruhande rw'ishuri kandi hari indabo zifite amabara y'umuhondo n'icyatsi kibisi.

Urukuta rw'ishuri rya kaminuza, rumanitseho icyapa kinini, gifite amabara y'umweru. Iki cyapa gikoreshwa n'abanyeshuri ba kaminuza ndetse n'abarimu ba kaminuza, iyo bari gutanga amasomo yabo cyangwa se iyo abanyeshuri bari kuyasubiramo.